Abagore bari ku murongo bakikiye abana ndetse bambaye imyenda y'amabara atandukanye, hari uri kumwonsa kandi imbere ye hari ishakoshi ifite ibara ry'umukara, inyuma yabo hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye, hari ahasize irangi ry'umweru n'umukara.

Umugore ufite ibisuko ku mutwe yafungiye hejuru, yambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'ubururu juru, kandi ibiganza bye byombi yabifatishije ku mutwe arunamye.

Abantu bahagaze ku mayesikariye, harimo umugabo uhagaze ku ruhande rw'ibumoso wambaye amarinete ndetse na kositimu kandi yahuje ibiganza bye. Inyuma ye hari icyapa kirimo amabara atandukanye, harimo iry'umweru, ubururu kandi hari n'undi uhagaze ku ruhande rw'iburyo, wambaye ipantaro ya kaki.

Umugore ufite imisatsi igera mu maso, yambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'umweru kandi iruhande rwe rw'iburyo hari umwana ufite imisatsi y'umukara, wambaye agapira karimo ibara ry'umweru n'utudomo tw'umukara, imbere yabo hari ameza.

Umukecuru wicaye ahantu hari ibiti byumye, kandi mu mutwe atezemo agatambaro gafite ibara ry'umweru, anakenyeye igitenge kirimo ibara ry'umuhondo n'ayandi agiye atandukanye, inyuma ye hari ibihuru kandi imbere ye hari amashyiga atetseho.

Icyumba kirimo amakaro kandi hejuru muri purafo harimo amatara yaka ibara ry'umweru. Ibikuta byacyo bisize irangi ry'umweru ndetse hari intebe zifite ibara ry'ubururu n'izindi zifite ibara risa n'ivu.

Amacupa ari mu bwoko bugiye butandukanye ndetse hari afite ibara ry'umweru ashushanyijeho igikakarubamba, hari akajerekani gafite ibara ry'umuhondo gapfundikije umupfunikiza ufite ibara rya shokora kandi inyuma hari agafite ibara ry'icyatsi.